Inama irimo abayobozi batandukanye harimo n'abashinzwe umutekano, hakabamo n'abadaso bambaraga imyenda y'ubururu n'abaturage baje kurema iyo nama, bose bicaye ku murongo umwe bateze amatwi umuyobozi uri kubabwira ikigwa.

Inkongi y'umuriro yafashe inzu, harimo ibyuma bitandukanye ,n'ibindi bikoresho bigaragara ko, hari umuntu ugiye kuzimya iyo nkongi y'umuriro ,ahetse icyuma bifashisha ,bazimya iyo nkongi y'umuriro.

Abaturage bicaye bari mu nama. Imbere yabo hahagazeho umuyobozi n'umudaso wambaye imyenda z'ubururu. Umuyobozi yambaye imyenda irimo amabara atandukanye, umweru, abaturage nabo bateze amatwi barikumva ibyo abayobozi babagezaho.

Abayobozi bicaye ku ntebe abandi bambaye imyenda z'icatsi, bahagaze inyuma yabo bafata amafoto y'urwibutso.

Umusirikare urindaga umutekano, yambaye imyenda imugaragaza ariho n'ikirango cy'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, yambaye ingofero mu mutwe ibarindaga kuba bakwangirika, afite n'imbunda akoreshaga arinda umutekano.

Abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bari ku murongo, bambaye ibibaranga, bafite idarapo ku rutugu ry'u Rwanda, aho bari ku murongo bacunga umutekano, bambaye n'ibintu mu mutwe, no mu maso, n'udupfukamunwa, aho bagenda bari ku murongo neza.

Abaturage bahagaze ku muronko, bari kumva amabwiriza bagomba kugenderaho, bari kugahabwa n'abapolisi bambaye imyenda ibaranga, aho bakora mu kazi kabo bababwira amabwiriza bagomba kugenderaho nk'abaturage bayobowe.

Imodoka zishinzwe umutekano zitwaraga abantu bakoze ibyaha, bakabajana ku bushinjacyaha muri icyo gihe bagashinjwa ibyaha bakoze, babihanigwa bakabifungirwa.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye mu gisharagati, abagore, abagabo, abakobwa, abasore, hari korari iri imbere ya bo iri kuririmba, bakurikira ubutumwa irimo itanga, mu gihe bicaye bo bagakurikirana ibyo ivuga.

Umuyobozi w'umugore ayoboye inama aho aje imbere akifashisha indangururamajwi abwira abaturage cyangwa abandi bayobozi bayoboranye, imigabo n'imigambi ibyo azabagezaho cyangwa ibyo babafasha gukora abaturage bikabateza imbere.

Umuyobozi uri kuremesha inama abwira abo ayoborana nabo ibyabateza imbere, bityo bikaba byamufasha kuba yateza imbere igihugu cye n'abagituye.

Ababyinnyi bari kubyina b'abagabo bambaye imikenyero z'inkindi, n'amayugi bafite n'amacumu mu ntoki zabo. Bidagadura bameze neza aho baba bari kubyina, imbyino gakondo za kinyarwanda.

Agacuma kameze neza, gafite n'umuseke, bagashiragamo urwagwa bakakanyweramo, bityo kakaba kagaragara neza mu muco nyarwanda, ni igikoresho bakoreshaga banyweragamo ibyokunywa by'impeke.

Isogi ni imboga abantu batekaga ,ariko cane cane zikundaga gukoresha abacecuru bo hambere nibo bazizi ko ari imboga bazitekaga bakazirya.

Ababyinnyi bari kubyina mu muco wa gakondo. Hariho n'abari gukoma amashi, abandi bitakuma. Hari inzu za kinyarwanda zubakishije ibyatsi, n'uruzitiro rw'ibiti. Ahongaho mu muco wa kinyarwanda ni ibintu biranga abanyarwanda.

Ni byiza ko mu muco nyarwanda habaho imbyino gakondo, aho abakobwa n'abahungu babikoradagadura bashayaya bamanitse amaboko, bashimisha abantu baje kubareba.

Agacuma keza bakunda kukanyweramo inzoga bakoresheje umuseke wako. Ukanyweramo inzoga n'ibindi binyampeke bitandukanye.

Utubindi dukozwe mu bumba batekagamo ibiryo, bagashigishimo n'umusururu bakagunywa, abaturage bakundaga kudukoresha mu bijyanye n'umuco gwa kinyarwanda.

Intore ziri kubyina, izindi ziri inyuma yazo zihamiriza, zirapfukamye, aho ari byiza mu muco nyarwanda, kubyina nk'intore byafashaga abantu kwizihirwa, iyo babaga bagiye mu kirori bagasanga kirimo intore zibyina neza.

Kubyina ni byiza mu muco nyarwanda aho intore zidagaduraga, zigashimisha abantu mu birori bitandukanye. Bityo bikaba ari byiza kugira umuco nyarwanda ugahoraho tukazaja duhora tubyina, twishimye turuhura mu mutwe no mu bwonko.

Agaseke ni keza mu muco nyarwanda aho abaturage bakifashishaga bagashiramo ibyo bagiye kuzindukirana. Ni byiza cane mu muco nyarwanda kugira igikoresho cyo kujana ahantu ugiye gusura, ugatwaramo imfukire ugiye kuzindukira ahantu.

Amasaka gamamera, bengagamo ikigage n'ubushera, bakavanamo n'ibivuzo bahaga amatungo gaciriritse, gakabirya bikagatunga.

Isekuru ni igikoresho nyarwanda abaturage bakoresha, umwana arimo kuyikoresha asekura imyumbati, hariho n'abagabo batatu bahagaze impande ye, hari n'igitebo ari kwifashisha ayora ibyo bintu yayunguruyemo.

Inka z'inyambo zifite amahembe maremare ziri kurisha, zifite amabara gatandukanye, ariko zikaba zibyibushe zimeze neza cane, zitaweho, ziri mu kibuga hafi yaho hari uruzitiro n'amazu rwubakishije amabati g'umutuku.

Ababyinnyi b'abagabo bari kubyina bishimye bameze neza bafite amacumu mu ntoki bateze amaboko bazi kwidagadura cane aho mu muco nyarwanda babikunda kubyina imbyino gakondo.

Kera habagaho abami basokozaga amasunzu b'abayobozi. Babaga bakorera ibwami bagaragiye abandi baturage, bakabayobora bakabagezaho iby'umuco nyarwanda.

Inyogosho kera abantu b'ibwami biyogosheshaga bafite inkono z'itabi banyweragamo itabi rya kinyarwanda kugira ngo babone uko bimeza neza mu gihe cyabo.

Ni byiza ko tugira ibitwibutsa umuco nyarwanda, aho tubona amafoto gagaragaza imyitwarire ya kera n'imyambarire bakoreshaga muri icyo gihe, uducuma banyweragamo, bagenda bishimye bizihiwe, basabana n'abandi banyarwanda baturanye, no mu bindi bihugu basabanaga, bakanyweramo bazindukirana umunsi ku munsi.

Umubyeyi arapfukamye arimo gusya amasaka，yiyegereje akebo arikuyoramo amasaka，agasya ifu igwa ku nkoko apfukamye ku kirago． Impande ye hari umuvure bengeragamo ibitoki.

Mu muco w'abanyagwanda, intore zihamirizaga zikoresheje ibikoresho gakondo. Mu gihe zihamiriza zinaganura, zibyina, zihamiriza, zikoreshaga ibikoresho bya kinyagwanda.

Kera Abamikazi b'ibwami biyogosheshaga inyogosho bitaga amasunzu aho bahoraga bicaye ibwami biyitaho bameze neza bategereje ko Abami baza kubareba basa neza.

Abagore n'abana bikoreye ibibindi ku mutwe gwabo bagiye kubigurisha, inyuma zabo hariyo ibihingwa n'ibiti hakurya yabo.

Isuka ni nziza. Ni igikoresho umuturage wese agomba gutunga mu rugo rwe uba mu cyaro aho ayifashishaga ahinga ibihingwa bitandukanye bityo bikaba byatuma abona ibyo kurya n'ibyo kunywa bitamugoye agakuramo amafaranga akoresheje isuka ye ikamubyarira umusaruro mwiza.

Mu muco nyarwanda, kwibuka umuco wa kera ni byiza aho abana bari gusya ku rusyo, basya amasaka, aho hari abahagaze hejuru bari kureba, byo mugenzi wabo ari gukora, ifu ari kuyishyira ku nkoko, agakura amasaka mu cyibo.

Iyogi bambikaga imbwa kugira ngo ibashe kuzaza aho igiye hose shebuja amenye aho yagiye bitamugoye. Aho igenda izunguza iryo yogi, iryambaye mu josi.

Indosho bakoreshaga bateka ibiryo, mu gihe bihiye bagiye gutahura, barayikoresha bagatahura ibiryo abantu bakarya.

Mu mbyino gakondo babyinaga bikoreye ibyibo, mu gihe babyina mu birori bashimisha abantu bateraniye aho ngaho.

Isekuru ni igikoresho nyarwanda abaturage bakoreshaga mu gihe co hambere n'ubu ngubu kikaba gikenewe bakaba bagisekuzaga imbuto zitandukanye urugero nk'amasaka cyanga ingano, ubunyobwa n'uburo kugira ngo babiyungurure bimeze neza cane.

Indobo bengegamo inzoga za kinyarwanda, bakaba bakoreshaga ishinge iyo ushaka kunyweramo ushingagamo umuseke, ukaba wanyweramo ukumva ko ibyo wenze biryoshe.

Umubyeyi uri kuboha icibo, akoresheje intoki ze n'urushinge n'ubwatsi bitaga ishinge.

Ibikoresho gakondo abaturage bagomba kugira, hari abana bari kubikoresha kugira ngo bamenye ibijyanye n'umuco gakondo, harimo inkoko, indobo, ibyansi, inzuho n'ibindi bitandukanye.

Mu muco nyarwanda kera habagaho umwami n'umwamikazi akaba yabaga ibwami afite umugore ugomba kuba iruhande rwe mu gihe yayoboraga akaba atuje ameze neza afite umugore ugomba kumususurutsa igihe n'igihe ashakiye.

Kera, bengaga inzoga z'ibitoki bakoresheje amaguru n'amaboko, bagashiramo inshinge, hanyuma barangiza kuvanamo umutobe, bagashiramo amasaka kugira ngo havemo inzoga y’urwagwa.

Ibibindi byashaje n'umuvure washaje, impande yaho hateyeho ururabo, inzu iteye irangi iri impande z'ibyo bikoresho bigaragara impande.

Igikoresho bifashishaga iyo bagiye kuzindukirana, batwaragamo ibintu bajanye aho bagiye gusurana muri icyo gihe.

Ni byiza ko habaho inzu ndangamurage z'umuco nyarwanda, abantu bajaga kuzisura, bakazitembereraho, bakibuka ibijyanye n'umuco wa kera, aho babaga mu nzu z'ibyatsi, zikaba zubakishije ibyatsi, bakanabisakaza. Ni ngombwa ko tugomba kwibuka umuco gakondo.

Inzu ndangamurage imeze neza yubatse ahantu heza aho bitumaga twibuka umuco wo hambere bakoreshaga amazu bakagwubaka, bagashiraho ibyatsi, bityo abantu bakazaja baragabamo. Ubu ngubu ntago gakihaba ariko hari aho bagashira tukazaja turagasura, twagiye gutembera kugira ngo twibuke umuco nyarwanda.

Abantu bari kunywera mu muvure bakanywesha imiseke abagore, abagabo bambaye imyenda zitandukanye bose bashinze imiseke bari kunywa basomagura batareba ku mpande.

Mu muco nyarwanda ni byiza gukora umuganda aho tuba dukora ibikorwa rusange byo kugira ngo biteze imbere Igihugu cyacu, aho hari urujya n'uruza rw'abagabo n'abagore n'abakuze bisumbuye bari gukoresha ibikoresho gakondo nk'amapiki, bacukura, abandi bafite ibitiyo n'amasuka bagakora umuganda.

Uburo ni bwiza cane buri mu ntungamubiri, tugomba gushira mu bintu dushesha mu bikoma abantu banywaga. Kugira ngo bagire ubuzima bwiza nk'abana bituma batekereza neza cane.

Ibikoresho intore zikoreshaga ziri kubyina mu mbyino gakondo mu gihe barimo bidagadura, ibi ibikoresho babikoreshaga muri iyo myidagaduro yabo.

Ikirango kigaragaza ahantu haberaga ibijanye n'umuco gwa kinyarwanda, aho tuhasanga ababyinnyi n'abari kuvuza ingoma bitakuma ku muhanda, batanga ikaze ku mudugudu w'iwabo.

Inka z'inyambo zimeze neza ziri ahantu bazororeraga ziri kurisha ubwatsi harimo inka z'umukara n'iz'ibibamba zituye hano hantu bazororeraga zimeze neza ziri kurisha ubwatsi mu gikuyu.

Inyogosho abantu ba kera biyogosheshaga bita ibisunzu. Babikoraga bakata umusatsi wabo neza abakobwa, abagabo, abasore biyogosheshaga izo nyogosho bitaga amasunzu.

Inka z'inyambo zimeze neza cane zifite amahembe ateze neza abasaza bambaye imikenyero n'amashati y'umweru n'ingofero n'inkoni ku rutugu inka bifashisha mu muco nyarwanda aho wajaga i Bwami ukahasanga inka z'inyambo zimeze neza.

Urutsinga bakoreshaga kugira ngo amashanyarazi agere ku bantu bose, aho rwifashishwaga kugira ngo babashe gucana amashanyarazi ahantu hose.

Akuma bifashishaga kugira ngo bashire amashanyarazi mu nzu, cyangwa ahandi hantu hatandukanye, bityo bakaba bagakoreshaga kugira ngo gatange umuriro, cyanga ibindi bintu bitandukanye bakoreshaga, kugira ngo amashanyarazi gaboneke.

Igikoresho cya muzika bakoreshaga bashira mu matwi bumviraho amakuru canga indirimbo, mu gihe ushaka kubyumvira ho wenyine nta undi muntu mugafatanyije wumviraho agombamajwi.

Akuma bakoresha mu bijyanye n'amashanyarazi, karambitse ku meza, aho karimo utwuma dutandukanye, dutuma gatanga amashanyarazi abantu bagacana neza.

Icyuma bakoresha mu mashanyarazi kirambitse ku meza, gifite insinga zitandukanye, aho bagikoresha kugira ngo babe bacomeka ku bindi byuma bitandukanye, kugira ngo babashe kugeza umuriro ahandi hantu utari .

Urutsinga bakoreshaga bari gushira amashanyarazi mu byuma bitandukanye, aho kiba ari igikoresho gikenewe cyane, kugira ngo cyifashishwe bashire umuriro ahantu hatandukanye.

Igikoresho bakoreshaga bifashisha gukora amashanyarazi, abaturage bakabona umuriro no mu buyobozi, hose bagacana ibintu bikamera neza kugira ngo bajane n'iterambere rigezweho.

Icuma bakoreshaga bari gukanika amashanyarazi gatumaga dukora ibintu byacu neza tukareba, tukaba ahantu hatabaga ikizima, bakoreshaga iki cuma mu gihe bari gukanika neza.

Abamotari baparitse imbere y'inzu ya etaje, hari n'ibirahure bimeze neza, hakaba hari n'ikirango kigaragaza aho wasanga ibyo kunwa.

Inzu basengeragamo, ikoregwagamo n'ibindi bintu bitandukanye bijanye n'amanama g'ubuyobozi, aho izitiye neza, yubakishije amabati g'umutuku n'amatafari gahiye, izitijwe n'ibyuma bikomeye cane.

Amazu gakorerwagamo ibikorwa bya Leta. Impande y'aho hari kaburimbo hajitijwe ibyuma, yubakishije amatafari gahiye, hari ibyapa biranga ibikorerwaga kuri ago mazu. Ni byiza cane kugira ngo tubone uko tugera aho tugiye dusomye ku byapa biranga abagenzi.

inzu yubatswe nka etaje ikorerwagamo ibintu bijanye n'ubuyobozi, aho hari bariyeri isize amarangi gagiye kuba umuhondo n'umukara n'umweru. Hariho n'abantu bambaye iby'umutuku n'umweru bahagaze impande y'iyo nzu igerekeranye.

Inzu basengeragamo yubatse neza, ifite umunara n'umusaraba imbere n'amadirisha gameze neza, n'ibiti bigomba kuzana akayaga keza mu gihe abantu bagiye kuhasengera.

Inzu abarwayi barwaye bajaga kwivurizamo, kugira ngo barebe indwara bafite bityo bagahabwa imiti ibafasha kugabanya indwara ,barwaye kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Inzu imeze neza bakoreragamo inama mu bijanye n'ubuyobozi. Imbere yaho hari igiti kimeze neza indabo ziri mu kibuga imbere y'iyo nzu amadirisha g'inzu gameze neza, g'ibirahure ifite n'amabati gasize irangi ry'umutuku.

Urusengero basengeragamo hari agacaca keza aho hari gahunda zabaye bikaba ngombwa ko bazikorera hanze cyangwa bakumvira misa hanze, abantu bicaye urujya n'uruza bambaye imyenda itandukanye urusengero rwubatse neza ruriho n'umusaraba ibigaragara ni heza cyane hari natire ishimishije.

Abayobozi bari gufasha abaturage mu gukora ibikorwa by'iterambere, bakora akarima k'igikoni bagashiramo n'ifumbire rihagije

Umuhanda gumeze neza, urimo amabara gatandukanye，ag'umweru n'umukara，aho hari bariyeri itangiraga， hakabamo n'abantu bari muri ugo muhanda bakoreshaga ibyuma bitandukanye bari gusaka abagenzi bagiye kunyura muri ugo muhanda gukaba gubatse neza cane，haraguru yaho haba hariho agandi mazu gameze neza.

Inyubako zikorerwagamo abakozi ba Leta aho babaga baparitse imodoka zabo, mu mucaca bagiye gutanga serivisi muri ibyo biro bakoregamo.

Inyubako bakoreshaga bari kubaka igorofa, hirya y'ho hamennyeho ibintu bitandukanye byubakishije ibyuma n'ibiti kugira ngo rizakomere, nyuma yaho bakurikizeho ibindi bikoresho bitandukanye kugira ngo rizubakwe neza.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, amadirishya ry'ibirahure, hari n'igikoni cyubakishije amategura, ku ruhande hakaba hariho n'indabo, hari n'umuntu wambaye imyenda y'umutuku yikoreye icyapa kigaragaza ibibera kuri iyi nyubako.

Ahantu wabariza serivisi z'ubuyobozi, hari bariyeri iriho ibyuma bitangira abantu bagiyeyo kugira ngo bamanze babihererwe uburenganzira, hari n'umusekirite wambaye imyenda y'umukara, ayobora abaturage, hari imodoka hanze n'inyubako nziza cyane yubakishije amatafari gahiye.

Urusengero rwiza cyane rumeze neza cyane, rufite ubusitani bumeze neza, rusize amarangi y'umukara n'umweru. Amadirishya arimo ibirahure, amabati ameze neza cyane, afite ibara risa neza, aho hari ubusitani impande y'aho, hakaba hari n'ibiti bizana akayaga.

Umuhanda ugeza abantu ku rwibutso, aho hashyinguwe imibiri y'abantu, hakaba ho hari ukomeje ugera kuri kiliziya, aho abantu basengera mu gihe bagiye mu misa.

Ikiraro cyo mu kirere bagenderagaho ni cyiza cane cyorohereje ingendo abantu bambukiranyaga imigezi baja mu ngo zabo none byaraboroheye kuba barabonye aho banyura i busamo bakagera iyo bagiye byihuse badatinze ngo baje gukatakata mu yandi mayira.

Urusengero basengeragamo hari ikirango kigaragaza idini ryarwo aho abayoboke bagomba kuza bagasoma ikirango cyaho bakamenya idini bagiye kujamo iryo ari ryo n'aho riherereye.

Urusengero basengeragamo aho abaturage, bagiye gusengera kuri urwo rusengero bamwe batonze umurongonko, abandi bakaba bagenda aho hantu rusakajwe n'amabati nk'umutuku hateye amarangi, bw'umuhondo hameze neza cane.

Urusengero rwubatswe neza, basengeragamo, ruteye amarangi g’umuhondo n’agandi g’umweru. Harimo amadirisha gameze neza, hasi hateye amarangi g’umweru n’umukara bakoresheje bataka. Imbere y’urwo rusengero hariho n’umusaraba, rwubakishije amabati g’umutuku gameze neza cane.

Amazu g'ingerekerane gubatse neza, imbere ya go hari umuyobozi uhari, ugaragaza ko, aga mazu gubatswe n'umushinga.

Amazu meza gubatse gasize amarangi gatandukanye umutuku, umuhondo, icyatsi hateyeho n'indabyo hari n'umuhanda ugujayo ni byiza ko tugira aho twasanga serivise z'ubuvuzi cyanga ubuyobozi butandukanye mu gihugu cyacu.

Urusengero rwubatse neza cane, rutatse amabara gatandukanye, rufite kandagira ukarabe hanze igezweho y'iterambere, hari indabo nziza zikikije urwo rusengero, rwubakishije amakaro aho rufite amabati gameze neza cane, hapavomye n'amabuye haparikwagamo imodoka.

Ishusho ya Bikiramariya igaragaza ko hano hari urusengero basengeragamo, rw'Abakatolike. Ni byiza cane ko tugira aho kuba twaruhukira duteraniyemo twambaza Imana yaturemye.

Igikoresho bakoreshaga, bagasukamo isabune abantu bakanyuraho bagakanda bagakaraba intoki, mu gihe bagiye kwinjira ahantu runaka.

Igiti giterwaga impande y'amazu kigaragaza neza ubusitani buri imbere y'inzu igerekeranye, mu gihe abaturage bari muri ubwo busitani bari munsi y'icyo giti.

Ibyuma abanyeshuri bigaga mu mashuri y'incuke bicaragaho, biteye amarangi. Aho hari n'uruzitiro rumeze neza, rujitije ibyuma, barusize amarangi. Hari n'inzu zimeze neza cane, zubakishijwe amatafari gahiye.

Muri kiliziya habagamo ibintu bitandukanye, udutambaro tumeze neza, umusaraba, ishusho ya Bikira Mariya n'iya Yezu, indabo zikikije kuri alitari no ku shusho ya Bikira Mariya.

Ibikoresho bakoreshaga mu ikoranabuhanga mudasobwa, bifite umugozi g'ubururu n'ug'umukara hakaba hari ameza iteretseho n'intebe y'umukara n'ibindi bitabo bitandukanye biri kuri ago meza.

Ibiro by'ubuyobozi byegereye abaturage, aho babishira impande y'abaturage, bakajya kujanayo ibibazo byabo, bigakemurwa. Hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hateye n'ibiti byiza bizana akayaga ku bantu bicaye mu busitani buhari.

Inzu nziza, abantu bahuriragamo benshi bagiye gusenga, aho hari abaturage, urujya n’uruza, abagabo, abagore, abana, abakecuru, bahuriraga kuri ugo rusengero bakaja gusenga bajanye n’amaturo atandukanye. Hari n’ibitoki bagiye gutura.

Amazu gagerekeranye gakikijwe n'imodoka zitandukanye, hariho n'umuhanda gwa kaburimbo, inyuma yaho hakabaho n'uturima tw'igikoni n'ibikoni abaturage batekeramo bityo bikabafasha gufata neza amazu gabo.

Amazu bafungiragamo abantu bakoze ibyaha bitandukanye bityo bakaburana .Bahamwa n'ibyaha byakoze, bagafungirwa muri ga mazu gari aha ngaha turi kubona imbere yacu.

Inzu imeze neza, bakoreragamo amanama gatandukanye g'ubuyobozi. Imbere yaho hakaba hari ibiti by'indabo n'umucaca bumeze neza. Inyuma yaho hakaba hari amazu gubakishije amabati g'ubururu hameze neza cane, hariho n'indabo n'agacaca keza.

Ni byiza ko mu burenganzira bwa muntu, abaturage bahurira hamwe bakiga ku bijyanye n'iterambere ryabo, aho bungurana ibitekerezo bakiga ku bibazo bitandukanye byabateza imbere, bityo ni byiza ko ibyo byose bigomba kubaho kugira ngo abaturage bagire imyumvire iteye imbere.

Inama y'uburenganzira bwa muntu, aho abaturage bicaye n'abanyeshuri, abandi barahagaze batandukanye bumva ibivugirwa muri iyo nama. Ni byiza ko tujya mu ihuriro ry'urubyiruko, tukaja mu nama tukumva amabwiriza y'igihugu tugomba kugenderaho kugira ngo dutere imbere mu byo dukora byose.

Imodoka nziza zigezweho ziri muri gare ni nyinshi, zisa ubururu n'umweru, zitwaraga abagenzi zifite ibyapa bija Kampala harimo n'abaturage bari gucururizamo bari gutembereza ibyo kurya kugira ngo babagurire babateze imbere.

Imbangukiragutabara itwaraga abarwayi ikabajana ku bitaro bitandukanye bikuru, aho babohereje kwivuriza mu gihe aho bari bari byagoranye, bityo bakaba bifashishaga iyi modoka mu kugira ngo bihutishe umurwayi kwa muganga kugira ngo bigende neza.

Umusaza utwaye ingorofani, bifashishaga batwaye ibikoresho bitandukanye by'ibicuruzwa, aho amacupa ari menshi harimo ibyo kunywa. Atwaye yambaye na silipa n' umupira g'ubururu, n'akagofero kameze nk'ako abayisilamu bambaraga.

Abamotari bari hamwe, bari gukora inama n'umuyobozi uhagarariye polisi, aho ari kubaha amabwiriza bagomba kugenderaho mu gihe batwara abagenzi, birinda impanuka mu muhanda.

Imodoka itwaraga abagenzi iparitse muri gare, aho iba ihagaze igatwara abagenzi, ikabajana ikabageza iyo bagiye, hariho imbere yayo icyapa kiranga iyo modoka, uramutse ugize ikibazo ugafata pulake ya yo, wahamagara ubuyobozi bakaba bagufasha.

imodoka ifite ibara ry'umweru ipakiye ibitoki, hakaba harimo n'imifuka itandukanye, hejuru yayo hakaba hariho umugabo urimo gupakira neza, hariho n'ihema ryo gutwikirizaho, impande yaho hari moto, n'umutaka bacururizaho amayinite.

Imodoka nini iri muri gare itwaraga abanyeshuri, ikabajana aho bagiye kwiga. Ku kigo cy'amashuri bityo bikaba bifashaga abanyeshuri, kugera ku bigo byabo byihuse nta kibazo bagize.

Imodoka nini cyane igezweho yatwaraga abagenzi bamwe batonzwe umurongo, abandi bari kwinjiramo bambaye udupfukamunwa, abakobwa abasore bagiye gutega kugirango ibageze iyo bagenda.

Imashini ikoraga umuhanda hari n'imodoka iri gupakiramo ibyo imajije kuyora mu muhanda, ni byiza ko tugira ibikorwa remezo biduteza imbere. Hari ibyapa bigaragaza umuhanda, hari n'ibiti bizana akayaga n'umusozi uriho amazu y'ibyitegererezo.

Imodoka rusange ijemo abagenzi bose bashaka kugera aho bashaka. Harimo intebe zifite amabara gatandukanye, umutuku n'ubururu, aho harimo igihande kigomba kugendamo abafite ubumuga n'abatwite, bagenda bisanzuye batanigana n'abandi bagenzi.

Moto zikoreshwaga amashanyarazi zifite abamotari bazitwaraga, bambaye ibibarindaga kuba bagira impanuka mu muhanda bakaba bangirika, bifite ibara ry'ubururu, impande y'abo bamotari hariho inzu ifite ibirahure by'umweru, hariho n'abagenzi bahagaze impande y'ago mamoto.

Imboga zitandukanye z'intungamubiri zipakiye mu modoka harimo karoti hakabamo n'izindi mboga zitandukanye zo gutera bityo zikaba zifite intungamubiri mu biryo turyaga byose.

Urujya n'uruza rw'amagare aho aparitse amwe, andi ariho abanyonzi bagakoreshaga bambaye imyenda zitandukanye. Hari n'amamoto gatwaye abagenzi, hari n'icyapa cy'amakontoneri gari aho hantu.

Imodoka y'ikamyo itwara amagaraviye igapakira ikuzuza, ifite amabara y'ubururu, iri kugenda mumuhanda imbere yaho hariho izindi modoka, ziri kugenda zisa umweru.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bari kujya gutega amabisi, umubyeyi ahagaze imbere y'umwana, ari guterefona kuri terefone avugisha umuntu, abantu batandukanye bari muri yo gare n'imodoka nyinshi zigomba gutwara abagenzi.

Moto zihagaze mu muhanda ba paritse; bakazihambiraho imifuka zikaba zikoreye, zihagaze mu muhanda nta bamotari baziri iruhande rwazo, imbere yaho hakaba hari umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bawugendagamo.

Imodoka ya kijambere iparitse muri gare，hari n'izindi modoka zitandukanye， hari kwinjiramo abagenzi， impande yayo hari umugabo uri ku igare rya siporo， ahetse igikapu yambaye n'umupira w'umweru n'ipantaro y'ikuboyi.

Abantu batonze umuronko baja mu ndege y'u Rwanda kugira ngo ibatware, ibajane mu bihugu bagiye kujamo, aho bamwe bahetse ibikapu abandi babitwaye mu ntoki, abagore n'abakobwa n'abagabo, urujya n'uruza rw'abantu bagiye muri iyo ndege.

Ingorofani bapakiragamo ibintu byinshi bitandukanye by'imyanda, aho bayifashishaga bari gutwara ibintu bitandukanye bakuye mu isoko by'imyanda bakaja kubishira mu kimoteri cyabigenewe. Kirapakiye gipfundikije hejuru ihema kugira ngo bitagenda biri kunyanyagira mu nzira aho banyura hose.

Amagare n'amamoto bidufashaga kuba twatega tukagenda, tukagera iyo tugiye tukagaruka bitatugoye, bityo bikabasha kubahiriza igihe mu gihe twagiye k'urugendo.

Nibyiza ko murugu muhanda gwa kaburimbo habonekamo imodoka zitwaraga abantu ,bityo zikabageza iyo bajaga, kugira ngo bagereyo bihuse, nta mananiza bafite mu rugendo rwabo.

Abanyeshuri bari ku muronko bahetse ibikapu, bari gutega imodoka bajya ku mashuri ga bo, bambaye inkweto z'umukara n'amasogisi gw'umweru, bahetse ibikapu bitandukanye harimo ubururu, umukara, n'ibindi bifite amabara gw'umutuku.

Abamotari batwaraga ibintu n'abantu bakabageza aho bagiye. Umuhanda gumeze neza gwa kaburimbo gwihutishaga iterambere, n'abantu bakagera iyo bagiye byihuse cane.

Inshundura bakiniragamo umupira gw'amaboko mu gihe barimo kwitoza imyitozo ngororamubiri bakunda kuwukina basimbuka, batereramo balo hejuru uyinjijemo akaba ariwe utsinze igitego.

Abo bakinaga gwamaboko bari mu marushanwa bakinira muri sitade. Aho ikipe ikina n'indi irushanwa itsinze ikaba yahembwa. Ariko muri iyo mikinire yabo bakaba bagorora umubiri wabo, bityo bakagira ubuzima bwiza.

Umugabo uri gukina umukino ngororamubiri akoresheje amaboko ge yambaye imyenda, ubururu n'umukara, akaba ari gukina ashira mu nshundura umupira gwe kugira ngo aboneko yigorora neza.

Ni byiza gukora siporo aho ugorora umubiri wawe ukazakura umeze neza, ufite imikaya igororotse, ko wambara inkweto zabugenewe n'amasogisi n'ikabutura n'umupira, akoresha amaboko ye yidagadura.

Abakobwa bambaye amasengeri bakina umukino gujanye n'ugw'ingorororamubiri aho bari mu irushanwa bakaja gukina mu mukino mpuzamahanga bagatwara ibikombe bityo bikabahesha ishema mu gihugu cabo.

Abagore bari gukora umwitozo ngororamubiri, bakaba bari gukina bicaye bakoresheje amaboko, barenza umupira inshundura, n'abari hakurya bongera bakawukina bawugarura, bityo bakaba bari mu marushanwa atuma bahembwa.

Abasore bameze neza bambaye inkweto, amasogisi, amakabutura n'imipira, inyuma yabo hakaba hari umugozi bita incundura bakiniragaho.

Imodoka bakoreshaga mu bintu bijyanye na siporo aho ikoraga ibirometero byinshi, ikora amasiganwa. ikaba yatsinda ikoreshejwe n'umuntu uyitwaye. Ifite amabara gatandukanye harimo ubururu n'umweru, ikaba iri mu masiganwa.

abakinnyi bari gukina umukino wa siporo ari abagabo bambaye imyenda zitandukanye umuhondo n'umweru hari n'umugore uri gusifura impande yaho aho yabonye ko bakoze amakosa akaba ari kubahagarika

Urubyiruko rwambaye imyenda, rufite n'amabaro mu ntoki bakinaga, bari kugorora imibiri yabo. Abayobozi babo bahagaze inyuma y'aho bicaye bafite imipira, harimo n'abazungu.

Abakinnyi bakiniraga vole mu kibuga cy'umupira bicaye, bafite ubumuga bakoreshaga amaboko yabo bicaye hasi bicyo bagakora siporo.

Umukecuru uri gukina umukino ugorora umubiri, yifashishije icyuma mu ntoki aho atera umupira, agakina neza bikamufasha kugorora umubiri gwe.

Icobo bashiragamo amazi bakagikorera neza, kugira abantu bazaje baraza kucogeramo bari kuruhukiramo, mu gihe bakora siporo bakaja baruhukira muri ago mazi bidagaduriramo bakoreragamo na siporo.

Abayobozi bari guhererekanya ibikoresho bakoreshaga mu mukino ngororamubiri, imipira, inkweto, amabaro n'ibindi bikoresho bitandukanye bakoreshaga muri iyo mikino yabo.

Ikibuga cya Vole kimeze neza impande yaho hari intebe abantu bicaraho. Kijitijwe n'ibyuma bisa neza biteye amarangi nayo akeye.

Inshundura bakiniragaho umukino w'amaboko w'ingororamubiri, hari agacaca kameze neza impande y'iyo nshundura hari n'ibindi bintu bitandukanye bituma haza akayaga n'umwuka mwiza.

Umuntu uri gukora siporo mu mazi aho agenda atera amaguru n'amaboko bityo bikaba bimufashaga kuba yisanzura akaba yagenda mu mu mazi nta kibazo afite.

Abantu bari mu kibuga bareba umupira ngororamubiri aho bareba bagiye gufana amakipe bakunda kugira ngo bishime nabo bacure intsinzi. Ni byiza ko bibaho imyitozo ngororamubiri amakipe agahura n'andi abafana bakareba ibibashimishije.

Siporo ni nziza itumaga umuntu agira umubiri guzira umuze, aho bimufasha kwirinda imitsi ye kugira ngo itaza kugira ikibazo cyo kwangirika cyanga ntubashe kuba wagenda igihe kinini, cyanga ngo ugire ubuzima buzira umuze kubera udakora siporo.

Umugabo uri gukora siporo, yambaye agakabutura gatoya n'amasogisi g'umukara, n'inkweto. Aho afite igikinisho bakinishaga, bari mu myitozo ngororamubiri, bagakora siporo kugirango bagire ubuzima bwiza.

Mu caro habagamo imihanda abanyamagare banyuragamo bakora imyitozo ngororamubiri .Mu gihe bayikora bagendera muri iyo mihanda yo mu caro bagorora imibiri yabo.

Ikibuga cy'umupira bakiniragamo kizitiye neza hariho n'amashanyarazi ku nkuta, aho bashobora kuba bakiniramo n'ijoro harimo n'imironko zishushanyije zikoresheje amabara g'umweru, ruzitije uruzitiro rukomeye cane hariho n'imodoka y'umukara, impande y'kibuga cy'umupira.

Abakinnyi bambaye inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, amakabutura y'umukara, imipira y'umutuku hari nabandi bambaye n'ingofero n'indi myenda y'umukara bari kumurongo bafashe akantu karimo utubara bari kubafotora.

Ni ngombwa ko abaganga baboneka mu gihe hari amarushanwa arikuba. Haboneka uvunitse cyangwa akagira ikindi kibazo, agomba kwitabwaho muri icyo gihe akiri aho mu kibuga.

Irushanwa ry'amagare ribaga rimwe mu mwaka .Abaturage bose baba bagiye guhagarara ku mihanda kugira ngo barebe abarushanwa amagare .uwabaye uwa mbere cyangwa uwa nyuma .Bityo bigashimisha abaturage b'igihugu mu gihe babireba.

Umukobwa uri gukina umukino w'ingororamubiri akoresheje amaboko ge mu gihe akinaga ugo mukino aba yidagadura akinisha amaboko ge n'amaguru.

Mu muhanda gwi'bitaka guri hafi y'amazu yubatse neza hariho n'indabo bateyeho zimeze neza, umugenzi uri kugenda mu muhanda gw'ibitaka yerekeza iyo agiye, impande ye hakaba hariho n'igiti cy'ipoto cy'amashanyarazi.